Urujya n'uruza rw'abantu baje mu isoko, harimo abazanwe no kugura, abandi bazanye ibyo kugurisha, byiganjemo ibikomoka ku buhinzi, harimo ibitoki, ibirayi, imyumbati n'ibintu.

Kampani ya emutiyeni aho yakira abakiriya bagiye batandukanye bakabasobanurira kuri serivisi babahereza harimo kugura megabayiti bakazigura banyuze mu gukanda akanyenyeri magana atatu mirongo ine na gatanu akanyenyeri rimwe akego unundi bagakurikiriza amabwiriza.